Umurwayi uri kwipimisha umuvuduko, umuvuduko w'amaraso ni indwara mbi cyane ituma umuntu abura umwuka cyangwa se agahumeka cyane, indwara y'umuvuduko tugomba kuyirinda turya imboga, dukora siporo kandi tugerageza kwirinda kurya amavuta menshi n'amasukari menshi.

Icyatsi bita akanyamapfundo ni icyatsi kivura, iyo umwana atari kwituma usanga gifite akamaro kanini cyane, kuberako iyo ugihekenye ukakimucira mu kanwa ahita yituma. Ni byiza rero kukibungabunga tukagifata neza.

Kera ibiti bitaga imifatango, barahingaga kugira ngo utaza kunyura kure y'urubibi rwabo, bakabishyiraho ku nzira. Ariko ubungubu nta mifatango ikigaragara ku nzira, kubera yuko twahawe imihanda, igihugu cyacu cyiteje imbere, buri muntu afite umuhanda ujya iwe.

Umuhati ni igiti gitandukanya urubibi n'urundi. Ni igiti kigira umumaro mu guca impaka. Abanyarwanda ba kera bakitaga rucampaka. Iyo ufite imbago igutandukanyije na mugenzi wawe, iba ari umuhati, nta kindi wawukoraho, ntiwawurandura kuko iyo uwuranduye urashibuka.

Umurima w'amateke ateye neza cane hagati y'iteke n'irindi harimo metero ebyiri uva ku iteke uja ku rindi. Amateke arasasiye arimo ibyatsi, kuri buri teke rikikijwe n'ibyatsi kugira ngo rize gukura neza.

Igiti cy'avoka n'igiti gifasha abaturage kubona imbuto bitabagoye, iyo uhinze ku murima wawe ugateraho giti cy'avoka, kigufasha kubona imbuto no guha abana imbuto bitakugoye ngo ujye kuzigura ku isoko, ni byiza rero ko twese twatera ibiti by'avoka iwacu mu rugo, ku miringoti n'ahandi.

Igifuranende kiri mu byatsi biduha umuti, kandi gifuranende ni icyatsi kimeze neza cyane, gihora kibyibushye kandi gitoshye, iyo ucyayahiye ukagishyira ahantu gihita kibora, ntabwo gishobora kumara iminsi itatu cyangwa ine kitari cyabora.

Uruboga rwa kimeza. Imboga za kimeza ni imboga nziza cyane turya mu biryo kandi tukanezerwa. Iyo uziriye usanga uriye indyo yuzuye, kandi yujuje ubuziranenge. Kuko uba uriye ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara.